Abana benshi bishimye bafatanye ku rutugu, bahagaze ku murongo, bambaye imipira isa y'ibara ry'ubururu, bahagaze imbere y'inyubako yubakishejwe amatafari ahiye.

Umuganga uri gusuzuma ababyeyi bisa naho ari kubasuzuma malariya cyangwa SIDA kuko ari kubatera udushingiye ku ntoki, yambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'ikarita imuranga mu ijosi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bahuriye ahantu hamwe, hubatswe ihema rinini, impande yaryo hari inyubako nini ndetse munsi y'inyubako hari imodoka y'umweru ihahagaze.

Abantu benshi bakora mu kigo cy'ubuvuzi bari kwifotoza bambaye imyambaro y'umweru hejuru isa, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso.

Abana bato benshi bari ku ivomo, bari kunywa amazi bifashishije intoki zabo, bateze ku ivomo, inyuma yaho hari ibiti bifite amashami maremare.

Umubyeyi uri kuvuza umwana ku mujyanama w'ubuzima, bicaye hanze yamutereye agatebe k'ubururu, umujyanama yicaye ku ntebe y'urubaho, yambaye bote z'umweru, ku ruhande afite ibitabo.

Abana benshi bari ku ivomo rusange, bari kurwanira gukaraba intoki n'amazi yo ku ivoma. Barishimye ndetse kandi bari kubikora babikunze.

Ababyeyi benshi bari kumwe n'abana babo, bicaye ku mukeka, hari abantu bari kubaha ubufasha ndetse bagaha abana babo ibyo kunywa.

Abajyanama b'ubuzima mu Rwanda bafasha cyane mu buvuzi, aho batanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage, hari abajyanama bambaye amataburiya y'ubururu bari gusuzuma abari mu zabukuru indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Umuntu, uri gukaraba intoki n'amazi meza, amazi ari kumeneka hasi nta kintu yatezeho, kimenekaho amazi ndetse n'andi ari kumumeneka ku amaboko.

Inyubako ebyiri zubatse kimwe kandi zisa, zubakishijwe amatafari ahiye, hasi hashashwe amabuye, zifite uruzitiro ruzengukishijweho amasenyenge.

Abantu bashinzwe kwita ku bana bari kubaha icyo kunywa ndetse bambaye impuzankano isa bamwe muri bo bambaye utujire na two dusa.

Umwana uri gukaraba intoki kuri kandagirukarabe, yambaye impuzankano y'ishuri ,bisa naho ari kwisukura ku kigo cy'ishuri.

Abana benshi bato bicaye hasi bari mu kigero kimwe, bari kumwe n'abantu baje kubaganiriza, bari kubaha ibyo kunywa ndetse babaganiriza.

Abagore batatu bari ku ivomo, babiri bari gusunika amazi, umwe ateze indobo ku mugezi umanura amazi, indobo iteretse mu igarayi nini cyane.

Abantu benshi bari kwa muganga bari kwitabwaho n’abaganga babasuzuma. Aho bari kubatera udushinge bakabasuzuma indwara runaka. Bisa n’aho wagirango bari kubavura SIDA, cyangwa bari kubapima niba barwaye malariya.

Abantu benshi bari kwa muganga bisa naho ari ababyeyi bazanye abana babo bisa naho mu nyubako y'ababyeyi aho ababyeyi bazana abana babo kugira ngo bahabwe imfashabere ndetse bababwira uko ubuzima bw'abana bumeze.

Icyumba kinini cy'inama, kirimo abayobozi benshi batandukanye, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso, bafite amakayi bari kwandikamo bimwe mu bivugwaho muri iyi nama, ndetse imbere ya buri muntu urimo, afite icupa ry'amazi imbere ye.

Ikigo cya Nyabageni gifite abakozi benshi, bambaye imyambaro y'akazi irimo amataburiya ndetse n'amakarita agaragaza ibyo bakora bambaye mu ijosi, bahagaze bari gufata ishusho y'urwibutso imbere y'inyubako.

Umwana uri kunywa amazi akoresheje intoki aziteze ku mugezi amanura amazi munsi yaho ari kunywera hateze indobo ya kaki iri kumenekamo amazi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, giteraniyemo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu benshi baje babagana, bari kuganirizwa ndetse bafite amakayi bari kwandikaho bimwe mubyo bari kuganirizwaho.

Umukobwa uri kuvoma amazi ku mugezi, yatezeho injerekani ayiteretse mu ibase, ebyiri zigerekeranye iy'ubururu n'iy'umweru, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amabati ashaje ndetse hari n'umugozi wanitseho imyenda.

Umujyanama w'ubuzima uri gupima abana bari kumwe n'ababyeyi babo bakoresheje umunzani wabugenewe, bari mu nyubako nini babikoreramo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bicaye bazengurutse ameza, buri umwe afite ikaye n'ikaramu ari kwandikamo ndetse imbere ye hari n'icupa ry'amazi.

Icyumba kinini, kirimo abana ndetse n'ababyeyi. Bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa, ikigaragara cyo bisa n'aho bari gutanga serivisi yo gutanga ibitonyanga ku baba.

Icyumba cyo kwa muganga cyahuriyemo abantu benshi, bishoboka ko ari abarwayi, hagati harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kubabwira kuri serivisi runaka batanga.

Umugore uhagaze imbere y'abantu benshi bari mu ihema, imbere ridekoyeho igitambaro cy'Idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda, afite indangururamajwi ndetse yambaye itaburiya y'umweru.

Umurwayi uri kwa muganga, ari kwitabwaho n'umuganga, ari kumusuzuma niba afite umuvuduko w'amaraso, ku ruhande hari umurwaza uhagaze uri kureba uko bari kumuvura.

Umuganga uri gukingira ababyeyi, ari kumutera urushinge ku kuboko, yambaye agapfukamunwa, ndetse n'inyuma ye hari abandi baganga bari gutera inshinge ababyeyi. Bisa n'aho ari igikorwa cyo gukingira abamama.

Abantu benshi bitabiriye inama bafite amakayi n'amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa imbere yabo, hagati yabo hahagaze umubyeyi uri kubabwira abandi bandika ndetse banateze amatwi.

Umwana uri kuvoma amazi ku ivomo rusange, afite amajerekani menshi, arishimye ari guseka, inyuma y'ivomo hari ubwatsi bwinshi ndetse n'insina bihahinze.

Ababyeyi bafite abana bari kumwe n'abaganga bari kubitaho, abaganga bari kubasuzuma umwe afite igitabo ari ku bandikamo undi niwe uri gusuzuma gusa.

Umwana muto uri gukaraba intoki, kuri kandagira ukarabe ifite indobo y'umweru iteretse ku meza, yambaye impuzankano bisa n'aho ari umunyeshuri.

Umwana uri kuvoma amazi ku ivomo rusange akoresheje igikombe cy'icyuma, arishimye, ariguseka, yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'ubururu.

Abagore n'abakobwa bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, bahagaze ku murongo baganira bategereje ko uri kuvoma abavomera amazi.

Umubyeyi uri kumwe n'umugabo, bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, bavomera mu njerekani, iri vomo rikikijwe n'ishyamba rinini ritoshye ririmo ubwatsi,...

Abajyanama b'ubuzima barishimye bari kubyina bakoma mu mashyi, bafite amakarita abaranga mu ijosi bari kumwe n'umuyobozi wabo, imbere y'Ikigo nderabuzima cya Mayange. Ku ruhande gifite igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Abajyanama b'ubuzima bishimye bahagaze imbere y'ihema rinini ry'umweru ryubatswe mu byatsi binini, barishimye, baranezerewe bisa naho bakoze umunsi mukuru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bisa naho ari iyo ku ivuriro cyangwa kwa muganga, bahagaze basa naho bari gufata ishusho y'urwibutso, ku ruhande rwabo hari idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, igihe babafashe ibizami, kirimo abaganga bambaye ibitambaro mu mutwe by'umuhondo ndetse n'amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Abaganga benshi bicaye ku ntebe y'urubaho iri mu ihema ry'umweru, bisa naho bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho baba bagiye kwegera abaturage kugira ngo babafashe kubavura.

Abanyeshuri bari mu kiciro cy'amashuri abanza bambaye impuzankano isa, bari gukaraba intoki n'amazi meza ku ivomo babashyiriyeho icyo twakwita nka kandagira ukarabe, barishimye bari kugaragaza ko bakarabye kandi bakeye.

Umuganga uri kuvura umwana wazanye n'umubyeyi we kwa muganga, ari kumupima ubushyuhe yamushyizemo igikoresho gipima umuriro.

Abana bari kumwe n'umubyeyi, bari ku ivomo rusange, aho bari kuvomera mu ibase y'umutuku, iruhande hari izindi ndobo ndetse n'injerekani bari kuvomeramo.

Umubyeyi uri kuvoma amazi ku ivomo rusange, afite injerekani ebyiri yambaye umupira w'imbeho, akenyeye igitenge ndetse yambaye n'ingofero.

Umuntu uri kuvoma amazi ku ivomo rusange riri ahantu hegereye ibiti, afite injerikani ebyiri iy'umuhondo n'iy'umukara ndetse n'akabido gato...

Abantu babiri Umunyarwanda n'umunyamahanga, bamaze kugirana amasezerano y'ubukerarugendo mu Rwanda bisa n'aho ari abo mu muryango Mpuzamahanga, umugabo w'Umunyarwanda yambaye ikote na karuvate ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Abana benshi bari ku ivomo rusange bari gukaraba intoki, ku ivomo hatezeho indobo z'umuhondo, iri vomo rifite imiyoboro y'amazi imbere n'inyuma ndetse aba bana bisa n'aho ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano isa.

Abantu babiri bari ku nkengero z'umugezi. Umwe arikudaha amazi undi arikoza igare. Bisa naho aba bantu nta mazi meza bafite kuko barikudaha amazi. Ni amazi yanduye ayahagazemo ari no kuyatanga ngo ayakoreshe. Bisa naho bakeneye ubufasha bwabo bwo kugira ngo babone amazi meza aho batuye.

Icyumba kinini cy'inama giteraniyemo abantu benshi, bahanze amaso imbere umuntu uyoboye inama, bose imbere yabo bahuriye ku mazi bari kumwe.

Abana benshi bari ku mugezi, umwe ari gusunika amazi undi, abandi bahagaze ku ruhande, bigaragara ko amazi ari kumeneka hasi aho kujya mu njerekani.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi baje mu nama, bafite amakayi bari kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyi nama, bicaye ku ntebe z'urubaho zegamirwa.

Umwana uhagaze mu mugezi utembamo amazi menshi, ari kudaha amazi akoresheje akajerekani ke, inyuma ye mu mazi hamezemo ibyatsi.

Umwana uri gukaraba intoki n'amazi meza, bari kumusukira bakoresheje ijyanga y'icyatsi, uyu mwana afite ubwenge kuko azi gukaraba neza intoki akoresheje isabune kugira ngo arwanye mikorobe.

Abayobozi b'inama bicaye basa n'aho bari kujya impaka ku kintu, harimo umwe afite indangururamajwi, abandi bafite mudasobwa imbere yabo, bari kurebamo ndetse banateze amatwi uri kubaganirira.

Abana babiri bari gukaraba intoki ku ivomo rusange, barishimye bari guseka gusa bisa n'aho amazi ari kubamenekaho.

Abantu bicaye kwa muganga bategereje hanze, bicaye ku ntebe z'urubaho, hejuru yabo hari ibinyamakuru binini byo gusoma.

Abana bato bahurijwe hamwe, bari kwitabwaho na bamwe mu bayobozi harimo n'umuyobozi w'ingabo za polisi ndetse n'abandi bantu batandukanye bo mu nzego zo hejuru.

Abantu benshi bambaye neza, bisa naho ari abayobozi bahagaze ku murongo, abagabo muri bo bose bambaye amakote, abatayambaye ni bake, bahagaze imbere y'inyubako bisa naho basoje inama, bari gufata amafoto y'urwibutso.

Umukobwa uri kuvoma amazi ku ivoma afite injerekani y'umuhondo iteretse mu ibasi, imbere ye hari igiti kirekire gifite amashami maremanini ndetse aba mu nzu yubakishije amabati ku mpande ndetse no hejuru.

Abana babiri bari kudaha amazi mu cyobo, bisa naho nta mazi meza bagira kuko amazi bari kuvoma ni amazi yanduye.

Abantu bishimye bari guseka, harimo n'uwazamuye ukuboko, bambaye impuzankano isa ya Unicef, yita ku bana, barishimye ndetse baranezerewe.

Ababyeyi bari kumwe n'umuganga uri kubasuzuma umuvuduko w'amaraso akoresheje imashini yabugenewe, hari abandi babyeyi benshi bicaye ku ntebe batonze umurongo kugira ngo basuzumwe umuvuduko w'amaraso.

Abagore babiri bisa naho ari abayobozi bayoboye inama, barishimye bariguseka, ku ruhande hari amadarapo y'imiryango yabo bahagarariye mu nama.

Abantu benshi bambaye impuzankano, harimo n'umuyobozi ushinzwe umutekano wa polisi, bambaye imyambaro y'umuhondo hejuru, bari gutera imboga mu karima k'igikoni bigaragara ko ari nk'umuganda bakoze aha hantu.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo, ari kuvoma amazi mu ndobo y'umweru, ayavoma ku ivomo yifatiye kuri robine.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gihuriramo ababyeyi bafite abana, bisa n'aho ari ho batangira serivise zo gupima no gupimisha abana bari mu kigero k'imyaka yo hasi, batarengeje umwaka umwe.

Umwana uri kunywa amazi akoresheje intoki ku ivomo rusange, yambaye ikabutura y'umutuku, ishati irimo amabara nk'aya gisirikare, atezeho indobo ya kake, iri vomo rifite imigezi ibiri imanura amazi

Abana bato bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, bambaye impuzankano isa, bisa naho bari ku ishuri bari gukarabira ku tuntu.

Ibyuma byifashishwa mu buryo bwo kuyungurura amazi hakaboneka amazi meza yo kunywa, bifasha mu kurinda abantu kurwara indwara zituruka ku mwanda zirimo inzoka, bakabona amazi meza asukuye.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, bari kuganira. Bamwe bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amazi yo kunywa, ndetse imbere hari n'insakazamashusho bari kugenderaho, bagaragaza ibyo bari kuganiraho.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyumba k'inama, cyubakishijwe amatafari ahiye, bahagaze begereye icyapa kiriho ifoto y'umuntu iri mu ibara ry'umweru ndetse ikikijwe n'ibara ry'ubururu ku ruhande.

Abantu bari mu cyumba k'inama, bari kuganira, imbere yabo hari impapuro zanditseho amazina y'umuntu, ziringaniye n'umwanya yicayemo, imbere ye afite agakayi ari kuyandikamo ibitekerezo ,n'icupa ry'amazi kuruhande.

Umubyeyi wikoreye injerekani ku mutwe y'umuhondo usa nkaho avuye kuvoma, ari kumwe n'abana babiri, umwe muri abo bana na we yikoreye akabido, undi yambaye umwambaro w'ishuri wa kotoni.

Abajyanama b'ubuzima bari kumwe n'abayobozi babo, bambaye amakarita abaranga mu ijosi ndetse n'amataburiya y'ubururu, bahagaze hagati y'ibiti byinshi bifite amashami manini, bisa n'aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu bicaye imbere yinyubako ya girubuzima, harimo umuyobozi ushinzwe umutekano, dasso, ari kumwe n'abandi bayobozi, bamwe muri bo bafite ibitabo mu ntoki zabo, bari kwandikamo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama, bicaye bakoze uruziga bazengururutse ameza, bisa naho bari kuganira ku ngingo runaka, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso ndetse imbere yabo bafite uturahure tunywererwamo ikawa.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bari gusoroma imboga zifashishwa mu gutunganya indyo yuzuye, ndetse zikarinda umwana n'umubyeyi kuba bahura n'imirire mibi cyangwa igwingira ku mwana.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomo rusange, arishimye ari guseka, ndetse arasutamye, ku ruhande rwe hari injerekani eshatu, ebyiri z'umuhondo n'imwe y'ubururu.

Umuganga uri gukingira abantu abatera inshinge ku rutugu, yambaye agapfukamunwa ndetse n'abarwayi bose cyangwa abaje gufata urukingo bose bambaye udupfukamunwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye, bisa naho bicaye ku ivuriro. Bamwe bari kurebana, abandi bari kureba hirya, abandi barahagaze, bisa naho bategereje serivisi zitandukanye, ziva kwa muganga.

Igikorwa cy'ubuvuzi kigomba kwegerezwa abaturage bose, aho usanga abo mu nzego z'ubuvuzi bamanuka bakegera abaturage, bakajya kubabaza ku by'uburwayi baba bafite. Hari ushinzwe ubuvuzi, yambaye indorerwamo z'amaso n'umwambaro w'akazi, ari kugenda abahereza ibinyamakuru bigaragaza indwara runaka.

Abajyanama b'ubuzima, bahagararanye n'abayobozi b'ibitaro, bose bambaye udupfukamunwa, ndetse bafite n'ibitabo mu ntoki.

Umwana w'umukobwa ukiri muto uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, yambaye impuzankano y'ikigo cyabo, kandagira ukarabe iteretse munsi y'igiti cy'inganzamarumbo.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, ari ku ivomo rusange ari koza indobo ari kuvomeramo z'umweru, inyuma ye hari ibiti binini bikuze ndetse n'indabyo nziza zifite amababi y'umuhondo.

Umukobwa wishimye uri guseka, ahagaze imbere y'inyubako, isize amarange y'umuhondo, yambaye umupira utukura ndetse imbere yambariyemo umupira wundi w'ubururu.

Umugabo wasaze wambaye imyenda yacitse bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, afite udufuka ku rutugu atwayemo ibintu ndetse mu maso ye yisize ibintu by'umukara.

Abantu benshi barimo ab'inzego z'umutekano nka polisi, bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho ngo:" Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye." Benshi muri bo bambaye impuzankano isa, harimo n'undi ufite indangururamajwi ari kugenda avugiramo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama barakurikiye, umuntu uyoboye inama bamwe muri bo ni abagore ni bo benshi abagabo bake bicaye ku ntebe z'umutuku nziza.

Umugabo usa n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari mu muhanda arasutamye afashe hasi akaboko kamwe akandi yakazamu hejuru, imbere ye hari undi mugabo wicaye ku igare.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama yiganjemo igitsina gore, abantu barimo bafite amakayi bari kwandikamo ndetse abenshi muri bo bambaye indorerwamo z'amaso ndetse kandi bafite na mudasobwa imbere yabo n'uducupa tw'amazi.

Ibitaro bya Munini ni ibitaro binini bifite ubusitani bunini, bifite inyubako ndende byakira abarwayi bavuye mu bitaro bitandukanye byo muri aka Karere.

Abantu benshi bahagaze bishimye bari kumwe n'abayobozi babo, bambaye impuzankano zisa z'imipira y'ubururu, bahagaze hagati y'inyubako nini isize amarange y'umuhondo.

Umusazi wicaye mu muhanda yambaye ikabutura n'agasengeri byashaje ndetse bisa nabi, afite ipine ry'imodoka yashyize mu gatuza ke ariko arikomeje.

Umugabo uhagaze wumiwe, yegamye ku rukuta areba hejuru, yambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'umukara, ari gutekereza ibintu byinshi.

Umujyanama w'ubuzima, amaze kuvura umwana uri kumwe na nyina, bicaye hanze, bicaye ku gatebe ari kumwereka mu gipimo gifata ubushyuhe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ababyeyi benshi, bayobowe n'umugabo uri kubasobanurira yandika ku kibaho cy'umweru kiri imbere. Abantu bose bari muri iyi nyubako bahuriye ku kuba bambaye udupfukamunwa.

Umubyeyi uri kumwe n'umuganga cyangwa umuntu ushinzwe kuganiriza abantu bafite ihungabana cyangwa bafite ikibazo cyo mu mutwe, ari kumwe n'umumama bisa nk'aho afite ibibazo ari kumuganirira ndetse muganga we akamuhumuriza, bicaye ku ntebe y'urubaho hanze y'inyubako.

Abantu benshi bahagaze ku murongo bishimye, bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu isa, bari kumwe n'abayobozi babo bagaze hagati y'inyubako bisa naho ari ivuriro.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gihuriramo abantu benshi, bakaganirizwa ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo hatazagira uhura n'ikibazo akabura uwo agitekerereza.

Umujyanama w'ubuzima, uri kumwe n'umubyeyi, bisa naho ari kumuganirira ndetse akamugira inama, afite igitabo ari kwandikamo, ndetse ku meza imbere ye afite icupa ry'amazi.

Umugabo usa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, yiziritseho imyanda myinshi irimo ibyenda byacitse, amashashi n'ingofero, mu ntoki ze afitemo ikintu kimeze nk'imbunda y'igikorano yakoze mu bintu by'imyanda.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi batandukanye, bayobowe n'umugore uri kubabwira ku nsanganyamatsiko yabateguriye, bicaye ku ntebe z'umukara.

Icyumba kinini cy'inama y'abantu bashinzwe ubuvuzi mu Rwanda, bateraniye mu cyumba cy'inama, aho abayobozi bicaye imbere y'abayoborwa, bari kubaganirira ikiganiro.

Umugore wicaye imbere mu nama bisa naho we n'umugabo bari kumwe ari abayobozi. Bafite indangururamajwi barikuvugiramo bareba ababayoboye. Imbere ye hari igikapu cye kiri ku meza.

Abana bicaranye n'umukecuru ku musambi, bisa nk'aho bari mu buzima bubi butanejeje, kuko bigaragara ko bafite ikibazo cy'imirire mibi.

Umukecuru uri mu zabukuru witeze igitambaro cy'umweru bisa naho atishimye, yambaye urunigi mu ijosi, inyuma ye hari ishusho ifite ibiti by'ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Icyumba kinini kiberamo inama, kirimo abantu benshi bitabiriye inama, bayongojwe imbere n'umugore ubahagaze mbere, uri kubasobanurira, bicaye bakoze uruziga, imbere yabo bafite amacupa y'amazi, ndetse n'udukayi bari kwandikamo.

Uyu muntu wicaye yipfutse mu maso, yambaye umupira w'umukara, asa nk'aho afite ibibazo byinshi byamuzengereje. Ikigaragara cyo, ni uko akeneye abajyanama.

Abayobozi babiri bayoboye inama, umwe afite indangururamajwi ari kuvugiramo abwira ababakurikiye, undi ari kwandika, bafite amazi ku ruhande ari mu ducupa, ndetse ameza bicayeho akoze mu rubahu.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be, ari gutora umuceri uri ku ntara, ndetse hari n'uwo yashyize mu ngemeri. Atuye mu nzu y'ibyondo, bisa naho umuryango we ukennye.

Umukecuru uri mu zabukuru, atekeye ku mashyiga, yicaye ku gatebe hanze, atetse akoresheje inkwi mu gucana, aba mu nzu yubakishije amatafari ahiye, inyuma afite insina zishishe.

Umuntu yicaye hasi w'umumama usa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye inkweto zashaje nini, afite amacupa y'amazi ku ruhande, yambaye ikote rinini ndetse afite n'imifuka ku rutugu, inyuma ye hari abandi bantu benshi bamushagaye.

Umugabo bisa naho ari umuganga w'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, ari gusuhuza umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye imyambaro yacitse, yamwisanzuyeho ndetse ari kumwegera, nta kibazo afite.

Umukobwa mwiza uri guseka wishimye, yambaye urunigi mu ijosi, yambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umweru yicaye mu ntebe nziza aranezerewe.

Abana benshi bari kurira, bafite amaganya menshi bari gusaba bazamuye amaboko, bisa naho bababaye cyane basaba ubufasha.

Abantu benshi bahagaze bita ku bantu bafite ikibazo k'ihungabana cyangwa bafite ikibazo cyo mu mutwe, bari kumwe n'abayobozi babo, abayobozi bicaye ku ntebe imbere yabo bo barahagaze, bambaye impuzankano isa y'imipira y'imikara bari gufata ishusho y'urwibutso.

Umwana uri kurira, bisa n'aho yababajwe, ari kumwe n'umubyeyi we ndetse hari n'abandi bantu benshi, bisa n'aho babayeho mu buzima butari bwiza.

Umugore ukambije agahanga, wambaye ishati y'ibara ry'umuhondo, yiteze igitenge mu mutwe bisa naho ababaye atishimye.

Umuganga gakondo ucuruza imiti ikomoka ku bimera, ahagaze mu iduka rye, arishimye ndetse bisa naho agira inama abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa bafite ibindi bibazo, ukeneye inama aramugana akamugira inama.

Abantu bishimye bari guseka bazamuye amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, bisa naho bari mu muhango wo kwamamaza umukandida wo ku mukuru w'igihugu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zitukura bicaye bareba imbere, bahanze amaso umuntu uri kubasobanurira, bambaye imipira isa imeze nkaho ari iy'umuryango umwe wita ku kintu runaka.

Ababyeyi batatu bari kumwe n'umwana ndetse n'umugabo wicaye imbere yabo, bose bicaye ku ntebe y'urubaho, umwe muri aba babyeyi, afite igitabo ari kwandikamo bisa n'aho bari guhata ibibazo uyu mugabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi, harimo intebe ndetse n'igitanda by'amapine, hakaba imashini z'umweru zifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Umugabo wishimye, wicaye yegamye, aranezerewe yambaye imyambaro y'umweru, bisa n'aho nta kibazo cy'uburwayi bw'amenyo afite.

Abana benshi, bishimye, bicaye mu ishuri, bafite korogati n'ubuso bw'amenyo, babizamuye hejuru, bisa nkaho ari ibyo babahaye kugira ngo bijye bibafasha koza amenyo yabo, atane n'umwanda.

Abaganga b'amenyo bari kumwe n'abarwayi b'amenyo, bamwe mu baganga bari aha bafite amafishi bandikaho abarwayi bakoreye uburwayi bwabo n'uko barembye.

Abantu benshi bambaye impuzankano isa y'imupira yicyatsi yanditseho " Tubiteho", bafite umuti w'amenyo imbere yabo ku meza, umwe muri bo ari gukoresha uburoso bw'amenyo akoresheje n'umuti yoza amenyo, inyuma yabo hari abantu bayibahaye.

Umusore wishimye uri guseka ufite ubwanwa bwinshi, yambaye ikote ry'ikoboyi ry'ubururu...

Umunyeshuri uri kumwe n'abayobozi babasuye mu ishuri ryabo, ari kumusobanurira ku by'uburyo basukura amenyo akoresheje igikanka cy'amenyo n'uburoso bw'amenyo.

Ishusho y'amenyo igaragara mu mashini y'ikoranabuhanga yifashishwa mu gusuzuma imikorere y'amenyo niba nta kibazo ifite cyangwa niba ifite ikibazo.

Umurwayi uri gukurwa amenyo n'abaganga babiri, umwe yambaye indorerwamo z'amaso ndetse afite n'udutara ku ndorerwamo z'amaso ari gukoresha amurika mu kanwa k'umurwayi.

Umuganga w'amenyo ari gutera ikinya umurwayi w'amenyo akoresheje urushinge runini, ndetse yambaye uturindantoki tw'umweru tumufasha kugira ngo yirinde kuba yakandura izindi ndwara cyangwa kuzanduza uyu murwayi.

Icyumba kirimo imashini nini, kifashishwa mu kuvura abarwayi ibareba indwara zo mu nda, cyangwa zo mu bwonko, ifite igitanda kinini cy'umurwayi aryamaho, ndetse ku ruhande hakaba n'agatebe gafite amapine.

Abaganga babiri bateraniye ku murwayi w'amenyo, bari kumukura amenyo, bambaye udupfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Umusore wishimye wambaye ubusa hejuru, hasi yambaye ikabutura y'umweru, ari gukoresha urudodo areba ko amenyo ye akomeye, yirebera mu ndorerwamu.

Umugabo wishimye, unezerewe, ufite ubwanwa bwinshi, afite amenyo y'umweru akeye, yambaye umupira w'umukara.

Abaganga babiri bari kuvura umurwayi w'amenyo bamuteraniyeho, bambaye uturindantoki tw'umweru, indorerwamo z'amaso ndetse n'udupfukamunwa, bisa naho bari gukoresha imashini y'ikoranabuhanga mu kumukura iryinyo.

Ishusho igaragaza uko amenyo y'umuntu ateye, igaragarira mu gikoresho cyikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga, iyo bari gusuzuma uburwayi bw'amenyo.

Umugabo wishimye uriguseka afite urudodo mu ntoki ze arufatishije amaboko yombi, Ari kureba ko amenyo ye akomeye akoresheje urudodo.

Umuganga w'amenyo, ari gukura umuntu w'umugabo iryinyo akoresheje imashini y'ikoranabuhanga, umumama w'umuganga yambaye uturindantoki tw'ubururu n'imyambaro y'akazi y'ubururu.

Abana bicaye ku ntebe z'urubaho, bari kwitabwaho n'abaganga, abana bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ngo: "Tubiteho", imbere yabo bafite umuti w'amenyo bisa naho bari kubasuzuma niba nta kibazo bafite mu menyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho nk'intebe, iba ifiteho n'igitanda bikoreshwa kwa muganga, inyubako ifite ibirahure bigaragara by'umweru, amatara y'umweru ndetse na parafo z'umweru.

Umuganga uri gukura iryinyo umurwayi w'amenyo, yambaye uturindantoki tw'umweru, agapfukamunwa k'ubururu n'umwambaro w'akazi w'ubururu, yamushyizeho umurwayi akantu k'ubururu, kugira ngo atava amaraso akameneka ku myenda ye.

Abaganga bari mu munsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, bari gusuzuma abarwayi aho baba bagiye mu baturage aho batuye, bagashinga ihema, bakaba bazanye ibikoresho bihagije ndetse n'abaganga kugira ngo babashe gusuzuma ababagana.

Umukobwa ufite imisatsi myiza miremire ari guseka agaragaza amenyo ye n'intoki ze ebyiri, arishimye ndetse aranezerewe cyane.

Umugabo wishimye uri guseka, afite urudodo mu ntoki ze, arufatishije intoki zombi, ari kureba ko amenyo ye akomeye.

Umwana uri guseka yishimye ari kumwe n'umuganga uri kumusuzuma mu kanwa ke akoresheje ibikoresho byabugenewe. Umuganga yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'utwuma ari gukoresha ni umweru.

Umuganga uri kwita ku mwana amusuzuma niba nta kibazo afite mu menyo ye, umwana arasamye, muganga yambaye uturindantoki tw'ubururu ari gukoresha icyuma cyabugenewe.

Umwana wishimye ,uri guseka, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, bisa nkaho agiye gusukura amenyo. Yambaye ishati y'umweru.

Umukobwa n'umuhungu bishimye, naho umukobwa ari umuganga, afite amenyo ameze nk'insimburangingo z'amenyo, ari kuzereka umugabo, bisa naho arwaye amenyo.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ari kumupima umuvuduko w'amaraso akoresheje akamashini kabugenewe, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Umukobwa uri kumwe n'umubyeyi we ariko ufite ikibazo cy'ingingo zidakora neza, ari kumwereka uko agomba kwimenyereza kugenda.

Umuryango w'umugore n'umwana we barishimye banezerewe, umugore aricaye umwana amufashe mu gituza bari guseka.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru, bicaye mu nyubako afite ibinini mu ntoki, umukecuru ari kumwereka amategeko n'amabwiriza agenga kunywa imiti, imbere ye hateretse ikirahure cy'amazi.

Abagore bari gusarura icyayi barishimye bari guseka ndetse baranezerewe, icyayi kigira umumaro ku buzima bw'abantu ndetse n'icyayi kiva mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ababyeyi benshi b'abamama bishimye, bari kuganira, biteze ibitambaro mu mutwe, bacuruza imbuto zirimo amaronji, kokombure, indimu ndetse n'izindi nyinshi.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku itapi arambuye akaguru kamwe, akandi agahinnye, arambuye amaboko afata munsi y'ikirenge cy'akaramboye.

Abagore bari mu zabukuru bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande ukikijwe n'indabyo nyinshi, barishimye, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso, inyuma yabo hari umuhungu wambaye imyambaro y'umukara.

Umusaza n'umukecuru bicaranye barishimye bari guseka, umukecuru ari gusoma urupapuro yereka umusaza, imbere yabo ku meza hari imiti.

Umusaza uri mu zabukuru, uri kwitabwaho n'abaganga bamwitaho bashinzwe abantu bakuze, bari kumuhagurutsa ku buriri bamufashe amaboko.

Umubyeyi uri mu zabukuru uhagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi, yambaye umwitero ndetse n'urunigi mu ijosi, inyuma ye hari inyubako ndende ifite ubwatsi bwinshi, imbere yaho harimo n'ibiti by'inganzamarumbo, hakaba n'imodoka zihahagaze.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana ukuze usa naho akora mu ivuriro, ari kwita ku mubyeyi uri mu zabukuru uri mu kagare k'ababana n'ubumuga.

Umuganga uri kwita ku mukecuru uri mu zabukuru, ari kumusuzuma ndetse anamukanda ku kaboko, bisa naho ari kureba niba nta kibazo afite.

Abakecuru n'abasaza bari mu za bukuru, bahuriye ahantu hamwe, barishimye, barahagaze. Inyuma yabo hari intebe bari bicayeho, zambaye ibitambaro by'umweru.

Umugabo ukuze ufite umuganga we umwitaho, ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, aramufashe ari kumutambutsa amwereka uko agomba kwitwara.

Umuryango w'abakecuru bakuze wishimiye uri kuganira, babiri muri bo bambaye indorerwamo z'amaso undi ntazo yambaye; uri hagati ari kubereka ibintu muri telefone ye.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari mu zabukuru, barishimye bafite umuryango unezerewe, bicaye mu nzu yabo bari kurya indyo nziza, imbere yabo bafite n'ibirahure by'amazi.

Abagore batatu, harimo umwe ukuze, barishimye bari guseka, baricaye baganira, bari mu cyumba gisize amarangi y'umweru, ndetse bafite udukarita mu ntoki zabo.

Umukecuru uri mu myaka y'izabukuru, ari kumwe n'umuganga we umwitaho, arikumuha imiti ndetse afite ikirahure cy'amazi agiye kunywesha imiti ye muganga arikumuha, barishimye baranezerewe bari guseka.

Abagabo babiri bari mu nyubako isize amarangi y'umweru, umwe yafashe imigozi undi ari kuyikurura, bisa naho umwe muri aba ari umwe mu bita ku bantu bageze mu zabukuru.

Umukecuru uri mu myaka y'izabukuru arishimye ari guseka, yambaye indorerwamu z'amaso yambaye ikanzu y'umuhondo, afite agacupa karimo imiti ari kuyishyira mu ntoki ze.

Icyumba kinini kirimo abantu bari mu zabukuru, hari umusore ubitayeho, bisa naho ari umuganga ushinzwe abakuze, barishimye bari guseka, bari kurebana baganira bishimye, harimo imiryango ibiri itandukanye, umusore yambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu benshi barimo abasaza n'abakecuru bari mu zabukuru, bicaye mu ihema ritatseho amarange y'umweru ndetse n'ibitambaro by'icyatsi n'iby'umukara, harimo abantu bahagaze bari kubitaho.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we barishimye bari guseka ndetse bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka Basiketi.

Umukecuru uri mu za bukuru, wicaye ku mufuka, ari gucana inkwi ku mashyiga, yiteze igitambaro ndetse ari gutekera hanze mu nkike z'urugo.

Umugabo uri mu za bukuru uri kumwe n'umuganga we umwitaho, ari kumuhagurutsa ku buriri, bisa naho uyu mugabo nta rutege rwinshi afite.

Umugabo uri mu zabukuru uri kumwe n'umuganga we umufasha, ari kumwereka kuri terefoni ye kugira ngo amufashe.

Abasaza bari mu zabukuru, bicaye mu ntebe nziza z'imisego zegamirwa, buri umwe afite inkoni, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso.

Umukecuru uri mu zabukuru ari gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba cyabugenewe, ashyize amaboko hasi azamuye inda ndetse n'agatuza, yambaye agasengeri k'iroza.

Umugabo uri mu zabukuru ari kumwe n'umuganga umwitaho, ari kumwereka uko agomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Abantu benshi bahagaze bishimye, bafite ibiti n'amatelefone mu ntoki, bazamuye amaboko bari guseka, inyuma yabo hari umurima urimo amasaka menshi.

Abantu babiri umugore n'umugabo, bishimye bari guseka bicaye, imbere yabo hari uutuntu bari gukinisha, ndetse umugabo yambaye indorerwamo z'amaso.

Abasaza bari mu zabukuru, bambaye ingofero z'urugara ndetse bari mu ihema nini, inyuma yabo hari ababyeyi babamama nabo bari mu zabukuru.

Abantu benshi biganjemo ababyeyi baba mama bari mu zabukuru bahagaze imbere bari kumwe n'umukecuru bisa n'aho amuhaye impano y'ikintu.

Abakecuru bari mu zabukuru, bari kwitabwaho n'abaganga, babereka kuko bakora imyitozo ngororamubiri, barishimye bari guseka, inyuma yabo hari abandi bantu bisa n'aho ari abaganga babafasha mu kwitoza.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi wari mu myaka y'izabukuru, ari kumusobanurira ku bijyanye n'iby'uburwayi bwe n'uko agomba kwitwara, imbere ye afite igitabo ndetse n'ikaramu yandikisha mu gitabo.

Umugabo uri mu zabukuru uri kumwe n'umukobwa uri kumwereka uko agomba kwitwara, birafasha cyane kuko bituma abantu bageze mu zabukuru igihe cyose bakenera umuntu ubabwira uko bagomba kwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Abantu babiri umugore n'umugabo uri mu zabukuru, afite telefoni ari kurebamo ariko ahunyeza bisa naho atakibasha kuyirebamo neza, bicaye ku ntebe zikoze mu giti ndetse n'ameza akoze mu giti, imbere yabo hari akaradiyo k'umukara.

Umuryango wishimye, unezerewe uri gusangirira ku meza uri kurya ibiryo birimo imboga ndetse n'inyama, ku ruhande bafite ikirahure cyuzuye amazi.

Umuryango wishimye uw'umugore n'umugabo bakuze, bicaye mu nyubako, bari gusoma impapuro ndetse bafite n'izindi nyinshi zibari imbere, bisa naho hari ikintu bari kwigaho.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bicaye bari guseka, barishimye, baranezerewe, umubyeyi ari gukata imboga azikatira ku meza yarambuyeho agasahani k'urubaho kazwi nk'imbehe ari kwifashisha atunganya izi mbuto. Imbere y'umukobwa we hari igisorori kinini cy'ikirahure.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, ari kumwe n'umuganga we barishimye, bari guseka, muganga we ari kumucunga mu kagare k'abantu babana n'ubumuga.

Abagore babiri bishimye banezerewe bambaye imyambaro yo gukorana imyitozo ngororamubiri, bari mu muhanda bagenda, kuruhande bakikijwe n'indabyo zifite amababi y'umuhondo ndetse kuruhande hari ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga, bari kuganira bamwe muri bo bafite indangururamajwi bari kuvuga, abandi bafite ibipapuro mu ntoki zabo bari gusoma. Abandi bateze amatwi.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bitabiriye ibirori, imbere yaho hari intore ziri guhamiriza zirambuye amaboko zibyina, inyuma yaho hari igipapuro byo ku icyapa kiriho iby'iyi nama icyo igamije.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bayongojwe imbere n'umuyobozi uri kubasobanurira amakuru, ari ku nsakazamashusho ndetse imbere ye afite n'ikibaho ari kuberekeraho yandika.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ifite icyapa kinini cyanditseho amagambo yandikeje mu ibara ry'umweru, icyapa gifite ibara ry'ubururu, bahagaze ku murongo bisa n'aho bari gufata ishusho y'urwibutso y'inama runaka basoje.

Abantu babiri bahagaze, umugabo n'umukobwa, barishimye bari guseka, bambaye amakarita agaragaza imirimo bakora mu ijosi, bahagaze imbere y'icyapa kigaragaza umushinga bakorera.

Abantu babiri bahagaze imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bakora mu rwego rw'ubuvuzi, bafashe icyapa cyanditseho ngo: "Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira'' rero bari kudushishikariza kwipimisha igituntu kuko kivurwa kandi kigakira".

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, ni indwara iza igafata umuntu akabyimba umubiri wose, agatangira gututumba ibisebe ibice byose by'umubiri, rero turasabwa kuyirinda kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ku ntebe nziza nini, afite indangururambajwi mu ntoki ze, yambaye ikarita imuranga mu ijosi ndetse yambaye n'indorerwamo z'amaso.

Umukobwa uri imbere y'imbaga y'abantu, arishimye, ari guseka, yambaye indorerwamo z'amaso, afite indangururamajwi, ari kubwira abantu bamukurikiye ubutumwa.

Abaganga benshi bari mu cyumba gikoresha ubuvuzi bw'ikoranabuhanga, bambaye bikwije, bisa n'aho bari kuvura umurwayi ufite icyorezo, bakaba birinda ko cyabandura.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bisa n'aho ari abayobozi b'ikigo runaka bari gufata ishusho y'urwibutso.

Abantu benshi bari mu nama bisa naho ari urubyiruko, bambaye impuzankano y'imyambaro y'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari umuyobozi uyoboye inama ndetse hakaba n'umutaramakuru uri gufata amashusho.

Icyumba kirimo abantu benshi, hari babiri bicaye, aho umwe arimo arasuzuma undi amaraso, ku meza hariho indangururamajwi ari yo tuzi nka mikoro.

Abantu benshi b'urubyiruko, bari mu muhanda bafite ibyapa byatseho ngo: Twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira, bambaye imyambaro y'umweru, bari gushishikariza buri umwe kwisuzumisha kanseri y'ibere kuko ivurwa kandi igakira.

Abantu benshi bahagaze ku bwatsi bw'icyatsi kibisi, bahagaze ku murongo bafata ishusho y'urwibutso, bambaye imishumi mu ijosi igaragaza imirimo bakora.

Icyumba k'inama kirimo abayobozi benshi bitabiriye inama, bamwe muri bo bambaye amakote y'umukara ndetse n'ay'umweru, barangajwe imbere n'umuyobozi uyoboye inama.

Abagabo babiri bisa naho ari abayobozi bari gusuhuzanya bashimirana ndetse bigaragara ko bafite ibyo bamaze kumvikanaho, bose bambaye amakote na karuvate, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi bicaye imbere y'abandi bari kubaganirira ku buryo bufata ingamba zo guhagarika icyorezo cya Maraburg, abayobozi bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'indangururamajwi n'uducupa tw'amazi.

Abaganga bagiye gutanga serivisi z'ubuvuzi ahantu hategereye ibitaro bakoreramo, baragenda bagashinga ihema kure, noneho abarwayi bakaza babagana bakabasuzuma, ku bw'indwara runaka baba bagiye kuvura aho hantu.

Umuryango wishimye uri kumwe n'umugore n'umugabo ndetse n'abana babo bicaye muri salo baseka baganira,

Ababyeyi bafite abana bicaye ku ntebe y'urubaho, hejuru yaho hariho ibishushanyo bitandukanye bigaragaza uko umuntu yita ku mwana. Ababyeyi bose barishimye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo imashini zikoresha ikoranabuhanga mu gusuzuma abarwayi uko ubuzima buhagaze.

Ikigonderabuzima cya Kigina gifite inyubako nini iri ku buso bunini. Ifite amarangi y'umuhondo, ikagira amabati ayisakaye y'ubururu. Ifite amarembo manini yubatse bigezweho.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo intebe nziza, ameza meza, harimo ibiti bishishe biri mu bihoho byabyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho n'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi, harimo abagabo babiri bari gusuzuma imikorere yabyo, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya by'umweru, bisa.

Umuganga urikugenda hagati mu nyubako irimo ibitanda bigezweho bifite amapine, ndetse bifite amashuka y'umweru, bifite amarido akingiriza aho abarwayi baba baryamye y'ubururu, meza agezweho.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo ama televiziyo agaragaza uko uburwayi bw'umuntu bumeze, haba mu mutwe, mu mutima, ndetse no mu nda, cyangwa se no mu kaguru, bakagira n'ibitanda binini byifashishwa.

Umuganga wicaye ku ntebe y'amapine, ifite umwenda w'icyatsi kibisi, inyuma ye hari igitanda kigezweho gifite amashuka y'icyatsi kibisi, hejuru yacyo hari imashini isuzuma umurwayi indwara arwaye.

Umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga benshi bambaye bikwije bishoboka ko yaba arwaye indwara yandura. Bari kumusuzuma bamupfutse mu maso.

Ivuriro rinini, rifite inyubako nini, rikagira amarembo manini anyurwamo n'abakigana, isakajwe amabati y'ubururu, ikagira inyubako isize amarangi y'umweru ndetse ikagira n'ibyuma byinjiza umuyaga imbere mu bitaro.

Ababyeyi benshi bari kumwe n'abana, bicaye mu cyumba kinini cy'inama, bicaye mu ntebe nziza, bareba imbere, bambaye impuzankano zisa, bamwe iz'umuhondo, abandi iz'umweru, bicaye bareba imbere.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma uko ubuzima bw'umurwayi bumeze, bw'imbere aho tutabonesha amaso.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye birimo utubati, intebe z'ibyuma zifite aho bicarira h'umukara.

Ikigo nderabuzima cya Rwerera, gifite inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru isize amarange y'umweru ndetse hanze ifite indabo nziza zishishe, ziconze neza.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda binini byinshi kandi byiza by'ikoranabuhanga bifite amapine, ku ruhande bfite utubati na two dufite amapine.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu kubika imiti, harimo umuganga uri gufata ibikoresho ndetse inyuma ye hari utubati tunini.

Ibitaro bya Ruhengeri ni ibitaro binini biri mu karere ka Musanze, bihurirwaho n'abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze, aho baba baje kwivuza indwara zananiranye mu mavuriro mato.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigezweho bifite amapine byinshi, inyubako harimo amarido y'umweru meza bisa naho ari igitanda cy'amavuriro meza.

Ivuriro rinini rifite inyubako isakaye, ahantu hanini hatubakiye hicarwa abategereje gahunda cyangwa serivisi zitangirwa kuri iri vuriro, imbere yaryo hari ibyuma bifata ikigega cy'amazi kinini kiri hejuru, ndetse ku ruhande hakaba icyapa kinini kiriho serivisi zitangirwa aha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bikozwe mu byuma, bifite matera z'umweru, zikagira imiryango ikozwe mu rubahu, inkuta zisize amarangi y'umweru ndetse n'abatara yaka urumuri rw'umweru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo igitanda cyiza kiryamaho umurwayi igihe bari kumusuzuma indwara, kiriho amashuka y'umweru ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kuvura bifite ibara ry'umweru.

Ibitaro bya Rwamagana bifite inyubako ndende nini, imbere yayo hari abantu bahifotoreje bisa n'aho ari abashyitsi babagendereye, harimo n'abayobozi b'ibitaro, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'amakoma y'insina.

Inyubako nini igeretse rimwe, isize amarangi y'umweru afite ibirahure byijimye, imbere yayo ifite ubusitani, ikagira n'igiti cyiza kiri mu busitani kirekire, ikagira n'umuhanda nyabagendwa unyura iruhande ry'inyubako.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byiza bigezweho, utubati dufite amapine, ntebe zifite amapine, ndetse n'ibitanda bifite amapine.

Icyumba cyo kwa muganga, ni kiza gifite ibitanda byiza byinshi, bifite amapine, hagati ya buri gitanda n'ikindi, harimo irido, ry'umuhondo.

Umugabo wicaye munsi y'ubusitani bufite igiti cy'inganzamarumbu, kiri impande y'ivuriro rinini, aricaye aratuje.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi bw'imiti, gifite inyubako nini igeretse, ifite ibirayiro ibirahure byijimye, amarangi y'umweru ku nkuta, ndetse ikagira n'aho bahagarika imodoka hasakaye.

Inyubako, ikusanyirizwamo ibimenyetso, byifashishwa mu gusuzuma, ibi i marariya, isize amarange y'umweru ihagazeho umuyobozi, waho wambaye itaburiya y'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, gifite inyubako nini, igeretse, isize amarangi y'umweru, imbere yayo ifite ibiti by'indabo zifite amababi y'icyatsi kibisi.

Umuganga wishimye uri guseka, yambaye itaburiya y'umweru, afite ikaye mu ntoki, imbere ye hahagaze umwana bisa naho atwite, bigaragara nkaho ari kumuganirira ku by'ubuzima.

Inyubako nini yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho, ifite imiryango myiza ikeye, ikoze mu birahure, ifite aho abantu basohokera heza ndetse kandi inyubako isize amarangi y'umweru kuva hasi kugera hejuru.

Icyumba kinini kirimo imashini nini zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, zifite n'amatereviziyo agaragaza umuvuduko cyangwa imashini igaragaza amasaha umuntu yamaze n'ibirometero yakoze ari kwirukanka akoresheje izi mashini.

Inzu y'ababyeyi yubakishije amatafari ahiye isakajwe amabati y'ubururu, ni inyubako ihuriramo ababyeyi bafite abana bato, bagahabwa uburere ndetse n'imfashabere.

Icyumba cyo kwa muganga gifite umuryango munini ufunguye, undi urakinze, imbere harimo ibitanda by'abarwayi bifite amarangi y'umweru.

Inyubako nini y'ibitaro, yubatse mu buryo butangaje buryoheye amaso, irageretse, isize amarangi y'umweru, ifite ibirahure byijimye ndetse ifite umuhanda nyabagendwa w'abanyamaguru, aho unyurwamo n'abaganga ndetse n'abarwayi baje kuri iri vuriro.

Ibitaro by'amaso bifite inyubako nini bikoreramo, byakira abantu barwaye amaso baturutse mu mpande nyinshi zitandukanye z'igihugu barwaye amaso.

Umugabo wicaye munsi y'igiti ku mabuye yubatse aringaniye, igiti ari munsi ni ikiganzamarumbo, aricaye kandi aratuje.

Umuganga uri kumwe n'umwana bisa n'aho ari umunyeshuri ari kumupima umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amaherena ku matwi. Umwana yambaye ishati y'umweru n'ijipo ifite imigozi inyuze mu ijosi.

Inyubako nini yo kwa muganga, ifite ubusitani bunini buhagazemo hagati idarapo ry'igihugu cyacu, imbere hari igicumbi cyubatse mu busitani kigaragaza serivisi zitangirwa muri ibi bitaro n'amasaha zitangirwa. Inyuma y'inyubako hari izindi nyubako zisize amarangi y'umweru ndetse hahagazemo igiti kinini cy'inganzamarumbu.

Inyubako nini yo kwa muganga, ifite aho bakirira abarwayi hagari harimo intebe nziza zisa neza zitandukanye, zicarwaho n'abarwayi igihe bategereje ko bakirwa n'abaganga.

Umuganga uri gukingira umuntu akoresheje urushinge, ari kumutera urushinge ku kuboko, yambaye uturindantoki tw'umweru, itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi iranga imirimo akora.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigezweho, hakabamo amasaha, insakazamashusho nini ziri ku nkuta ndetse n'ibitanda binini n'intebe bigezweho. Byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi ku barwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo ibitanda, utubati ndetse n'udutanda duto dutwarwaho imiti, byose bifite amapine ndetse bikagira n'amarido y'umweru meza, yifashishwa muri ibi bitaro.

Ivuriro rinini riri ahantu hamezeze nko ku butayu, rifite ubusitani bunini bufite indabo nziza, ku ruhande rifite igiti kirekire cy'inganzamarumbo.

Ibitaro bya Nyarugenge bifite inyubako nini isize amarange y'umweru ikagira ubusitani imbere yabyo bwiza, bwakira abarwayi benshi buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga harimo amatereviziyo manini, hakabamo ibitanda by'amapine, hakabamo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako nini yo kwa muganga yubatse bijyanye n'igihe, ifite ubusitani bunini, ikagira ahagendwa n'abanyamaguru, imbere mu busitani ifitemo idarapo ry'Igihugu cyacu ndetse imbere y'idarapo hari ishyamba rinini.

Umugore ukuze uri kumwe n'umuganga uri kumuganiriza, muganga yamusuye iwe mu rugo, bicaye ku gatebe hanze ku rubaho, inyuma yabo hari umurima urimo itsina ndetse imbere yaho ukikijwe n'indabo z'amababi y'umuhondo.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ifite ibikoresho byinshi bihagije bigezweho, byifashishwa mu gupima ingano y'umuntu agezeho mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikigo nderabuzima cya Kinyinya gifite inyubako nini igeretse, isize amarangi y'umweru, isakajwe amabati y'ubururu, ifite ubusitani bwiza buzengurutse imbere n'inyuma, imbere mu busitani hahagazemo idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi biriho abarwayi batandukanye baryamye, bafite abaganga bari kubitaho bambaye imyambaro y'akazi ari byo itaburiya ndetse n'udupfukamunwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, harimo igitanda cyiza hakabamo mudasobwa ndetse n'izindi mashini nyinshi zifashishwa mu gusuzuma abarwayi igihe barembye.

Inyubako yo kwa muganga, ifite aho bakirira abarwayi, hicaye abantu benshi bategereje guhabwa serivisi, imbere yaho hari impapuro zimanitse ku nkuta zigaragaza uko batanga serivisi.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bisize amarangi y'umukara ndetse kandi ibi bikoresho bifasha umuntu kurambuka mu ngingo ze.

Ibitaro bya Nyarugenge, bifite inyubako nziza nini, igeretse isize amarange y'umweru, bifite amarembo meza agezweho, bifite ubusitani bwiza n'ibiti biteye imbere mu busitani, byakira abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Abagabo babiri bicaye. Umwe ni uwo mu kigo cy'ubuvuzi, ari gupima undi umuvuduko w'amaraso, akoresheje icyuma cyabugenewe. Umukozi wo mu kigo gishinzwe ubuzima, yambaye indorerwamo z'amaso, ku rukuta hariho kizimyamuriro ebyiri z'umutuku, zifite udupira tw'umukara.

Umugabo uri kwa muganga wishimye bisa naho ari umukozi waho; aranezerewe, impande ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe n'ibitanda bigezweho, ndetse kikagira utubati twiza, byose bifite amapine, byifashishwa mu gufasha abarwayi ndetse no kubavura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bifite ibikoresho by'umweru n'inzitiramibu z'umweru, hejuru hakikijweho amarido y'ubururu ndetse imbere yaho hari utubati tw'umweru.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite icyapa cy'ibara ry'umweru, ifite inyuguti zandikishije ibara ry'ubururu. Barishimye bari guseka, ndetse bari gufata ifoto.

Inzu y'ababyeyi nini isize amarange y'umweru ku nkuta ndetse no ku nzugi, imbere yayo hari abayobozi bicaye ku ntebe bambaye imipira isa, imeza yabo irambuyeho igitambaro ndetse inyuma y'inyubako bafite ikigega cy'amazi.

Inyubako ndende igeretse ifite indi ishamikiyeho y'ikiziga imeze nk'ubuhunikiro, ifite ubusitani bunini, ikagira utuyira tw'abanyamaguru.

Umuganga uri kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, muganga yambaye umwambaro w'akazi w'ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'uyu mubyeyi.

Inyubako nini yo kwa muganga irimo ibitanda byinshi, bifite n'inzitiramibu hejuru yabyo, harimo imashini ibafasha kuzana umuyaga muri ibi bitaro, harimo abarwayi baryamye ku bitanda.

Inzu y'ababyeyi iri ahantu hitaruye izindi nzu, isize amarangi y'umweru, isakajwe amabati afite ibara ry'ubururu, ifite umurasire w'izuba hanze, ku ruhande ikikijwe n'indabo z'umuhondo ndetse n'ibiti birebire bya gereveriya.

Inyubako nini yo kwa muganga, ifite ubusitani bunini, ifite ibigega bifatwamo amazi ndetse ku ruhande hari ibyicungo bifasha mu kuruhura mu mutwe abarwayi, ndetse bakora n'imyitozo ngororamubiri igihe babisabwe na muganga.

Inyubako nini yo kwa muganga ifite ibyumba byinshi bitandukanye, iteye amarange y'umweru, ifite amatara yaka urumuri rw'umweru,..

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi, bambaye amataburiya y'umweru, bisa n'aho bari gusuzuma imiti niba ifite ubuziranenge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini yifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umuntu igihe agiye kwivuza, iki cyumba kirimo akabati gashyirwamo ibyangombwa by'abarwayi.

Umusaza uri mu zabukuru, wambaye indorerwamo z'amaso arishimye ari guseka, ari kumwe n'umuganga we umufasha, ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso bose barishimye cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga ndetse n'abarwayi babana n'ubumuga, bagendera mu tugare, bari kwitabwaho n'abaganga ndetse bose bambaye udupfukamunwa.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha gifite inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, imbere isize amarangi y'umweru, isakajwe amabati y'ubururu, imbere yacyo hicaye abana bari kumwe n'ababyeyi babo bisa nkaho bategereje ibisubizo by'abaganga.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyakira abarwayi barembye bitarinze ko bategereza ku mirongo kugira ngo bagende binjira kuko n'abandi baje, gifite inyubako nini ndetse n'ahantu hanini kita ku barwayi baje bakigana.

Abagabo n'abakobwa benshi bahagaze imbere y'ikigo gishinzwe gukurikirana abakobwa bafashwe ku ngufu, bambaye udupfukamunwa, muri bo harimo umugabo ufite inkoni y'ababana n'ubumuga.

Inyubako yo kwa muganga, agashami gashinzwe ubushakashatsi ku ndwara ndetse no ku byorezo bitandukanye, gafasha abaganga kumenya niba hari icyorezo gisa gishya cyavutse cyangwa indi ndwara idasanzwe, kugira ngo babashe kuyivura ndetse bayishakire n'imiti.

Icyumba kinini kirimo ibitanda n'intebe ndetse n'imashini zifashishwa mu kuvura bigezweho.

Ibitaro bya Butaro bifite inyubako nini ifite ubusitani bunini, ndetse ikagira n'ikibumbano cyanditseho izina ryacyo. Ndetse n'ibigo bafatanyije mu gutanga serivisi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma umubyeyi cyangwa undi murwayi, bareba uko ubuzima bwe buhagaze cyangwa yaba atwite bakareba uko ubuzima bw'umwana we buhagaze mu nda.

Umugabo wicaye mu biro ufite mudasobwa ebyiri, imwe ayifasheho, indi ari kwiga ku burwayi bwo mu nda, bisa n'aho ari umuganga.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi, harimo abakozi bo kwa muganga bashinzwe amasuku bari gukoropa, bambaye udurindantoki tw'ubururu n'udupfukamunwa tw'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ifite imashini nini nyinshi zifasha abakora imyitozo ngororamubiri kumenya igipimo cyangwa ingano y'imyitozo aba yakoze.

Umuganga uhagaze mu cyumba cyo bavuriramo abarwayi, harimo ibitanda by'abarwayi bifite amapine, inyuma harimo abandi baganga, bose icyo bahuriyeho ni uko bambaye udupfukamunwa.

Icyumba cy'inama kwa muganga cyakirirwamo abarwayi batandukanye, batonze umurongo ndetse hari n'umurongo uriho ubana n'ubumuga kugira ngo bamufashe atarinze gutonda umurongo.

Umurwayi uryamye mu gitanda cyo kwa muganga, yambaye agapfukamunwa ariho selumu, bigaragara ko afite umubyibuho ukabije.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, harimo igitanda gifite amapine ndetse n'utubati twiza.

Isange one stop center, ni ikigo gishinzwe kurengera abahohotewe cyangwa abana bakiri bato b'abangavu bajyanwa mu bikorwa bibi bakabarengera.

Icyumba kirimo intebe nziza n'ameza meza, gifite ibikuta bifite ibishushanyo biruhura mu mutwe kubireba. Inyubako ahandi isize amarangi y'umweru.

Umurwayi uri mu bitaro, aryamye ku gitanda, iruhande rwe hari imashini zimufasha mu kuvurwa ndetse zigezweho, zifite mudasobwa zizifasha gusuzuma abarwayi.

Inyubako nini yo kwa muganga yubakishijwe amabuye, ifite ubusitani ku ruhande bukikijwe n'indabo zifite uturabyo dutukura ndetse ifite utuyira nyabagendwa tunyurwamo n'abaganga ndetse n'abarwayi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ari kuyikora yubitse inda, aho afatishije amaboko hasi ndetse n'amaguru, yambaye imyambaro y'umukara kuva hasi kugera hejuru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi akoresheje icupa rifite umufuniko w'umukara kandi yambaye isengeri y'ubururu.

Abantu babiri umwe araryamye undi arahagaze ari kumuramburira akaguru, amukanda agafatishije amaboko yombi. Akandi kaguru karambuye inyuma.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, afite imisatsi myiza miremire igera mu mugongo yazamuye amaboko mu kirere bisa naho ari kurambura amaboko.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha y'umweru, ikabutura y'umweru n'inkweto z'umweru zifite umupira wo hasi utukura, arasutamye arambuye akaguru ari gukoresha akaboko ku kaguru karambuye.

Abana benshi bari mu myitozo ngororamubiri, barishimye ndetse baranezerewe bari mu kibuga kirimo sima hasi gikoze neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, ari kuyikorera ku gatapi k'ubururu, afite ubwanwa bwinshi ndetse n'umusatsi uzirikiye inyuma, arambuye amaboko, apfukamishije amavi.

Umuntu uri kwikanda mu ivi, wambaye impeta ndetse n'agakomo k'umukara ku kuboko, bisa naho yavunitse mu ivi, yambaye umupira w'umweru ndetse ari kwikanda cyane mu ivi.

Icyumba cy'ivuriro kirimo igitanda kigezweho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, cyane cyane abarwayi b'amenyo, inyubako irakeye isize amarange y'umweru.

Umugabo n'umugore bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye udukabutura tugufi n'udupira tubafashe, bafite uducupa tw'amazi mu ntoki bari kwiruka, iruhande rw'aho kwibukira hari ibiti ku ruhande bikikije umuhanda.

Umuntu uhagaze uzamuye amaboko, bisa naho ari kunura amaboko ye, akaboko kamwe yagashyize mu mugongo, akandi agafatishije akari inyuma mu mugongo.

Umuganga uri kuvura umurwayi bisa naho yavunitse mu ivi, yambaye isaha y'umweru ku kuboko, yambaye itaburiya y'umweru, ari kumukanda mu ivi.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi afashe umupira w'amaguru mu muki w'ubururu, uriho ikimenyetso cy'umubare kane, awufatiye mu rubavu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini yifashishwa mu kuvura ndetse no kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, ifite amabara y'umweru.

Umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika mu kuboko, ari kwikanda akoresheje agatambaro kabugenewe, kari mu ibara ry'ubururu. Yambaye umupira w'umweru.

Abagabo bane bari kwiruka mu muhanda wa kaburimbo, bambaye amakabutura n'imipira iteye kimwe, bisa naho bari mu myitozo ngororamubiri bakoresha umuvuduko mwinshi.

Icyumba cyo kwa muganga giteraniyemo abaganga, bisa naho bari kuvura ku ndwara icyorezo yandura, bahuriye ahantu hamwe ,bisa naho bari kuganira bareba uburyo bagomba kuvura umurwayi waje ubagana.

Umuntu uryamye bisa naho arwaye cyane, imbere ye hahagaze abantu benshi bari kumufasha, inyuma yabo hari abandi bakobwa bahahagaze, bisa nkaho yagize ikibazo gikomeye cyane.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, afite icupa rigendanwa mo amazi, yambaye agatambaro k'ukuboko k'iroza, yambaye isengeri y'ubururu, ari kwimena amazi mu mutwe atembera no mu maso.

Umuganga uhagaze mu cyumba cy'ubuvuzi, ari gusobanura kubijyanye n'indwara avura, imbere ye ku rukuta hari kizimyamuriro y'umutuku ifite umugozi w'umukara.

Umuntu uri gusuka amazi mu kirahure akoresheje ibinika ry'ikirahure, yambaye uturindantoki tw'umukara.

Igikapu cy'umutuku kirimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo umukasi, hakabamo udupamba, ndetse n'ibindi byinshi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara ipantaro y'umukara, inkweta z'umweru, yambaye indangururamajwi mu matwi ndetse ari gufata ku ivi, azamuka yongera amanuka.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ifite n'igitanda cyayo, ku ruhande bafite akabati babikamya imiti y'abarwayi.

Abana benshi bari gukina umukino wa basketbal bahururiwe n'urujya n'uruza rw'abantu baje ku bafana, barishimye ndetse cyane.

Umuganga uri kumwe n'umwana ari kumusuzuma niba arwaye amaso, yicaye ku ntebe nziza y'imisego, imbere ye ku meza afite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma amaso.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, apfukamishije ivi rimwe hasi, irindi arifasheho n'amaboko yombi, yambaye umupira w'umukararani n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, bimwegereye.

Umukobwa uri kunywera amazi mu icupa rigendanwa ry'umukara, yambaye agapira k'umweru, afite igitambaro ku rutugu usa naho ari mu myitozo ngororamubiri, kuko amazi arafasha iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa munini ubyibushye, wambaye umwambaro umufashe w'ubururu hasi no hejuru, ari gukora imyitozo ngoramubiri yazamuye akaguru agafatishije akaboko, akandi kaboko akarebesheje imbere.

Umubikira yari kumwe n'umuzungu bari gufata akana kicaye, umubikira agafashe ku rutugu, umuzungu bari kumwe agafashe ku birenge, barishimye cyane bari guseka, inyuma yaho hari n'abandi bicaye barambije hasi.

Abagabo babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe aragaramye undi yamuzamuye akaguru agashyira ku rutugu rwe, ari kumukanda mu itako.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku itapi y'ubururu afatishije amaboko ye munsi y'ibirenge arishimye ari guseka cyane.

Umugabo uri kunywa amazi wambaye isengeri y'umukara, agakomo k'icyatsi, yicaye yegamiye igiti.

Icupa ry'amazi rifite umuvuniko w'ubururu, ryuzuyemo amazi. Ku ruhande hari amazi ameneka, ku ruhande no hejuru, ari mu ibara ry'ubururu.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ari mu nzu ifite tapi y'ubwatsi bubisi, ari gukandagira ku kantu kari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nini yifashishwa mu gusuzuma uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, cyane cyane byifashishwa nk'iyo umuntu arwaye umutima cyangwa indi ndwara itagaragara ndetse n'indwara zo mu mutwe zirasuzumwa.

Umusore uri kunywa amazi akoresheje icupa rigendanwa, yambaye indangururamajwi mu matwi, yambaye umupira w'umweru umufashe.

Umuntu w'umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aryamye ku mukeka, arambuye akaguru kamwe, akandi agahinnye, agafatishije amaboko abiri, bisa naho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore usa naho yagize ikibazo cyo kuvunika mu kaboko, yambaye ishati y'umweru, yambaye urunigi mu ijosi, ari kwikandisha agatambaro k'ubururu, ahantu bisa naho ariho yavunitse ku kaboko.

Abagabo bari mu myitozo ngororamubiri, bari kwitoza gukina umukino witwa Rugby, bafite imipira yawo ndetse bigaragara ko bari gukoresha imbaraga nyinshi biruka.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye indangururamajwi mu matwi afite telefoni ku kaboko, yarambuye amaboko ayafarishije ku mano, ku kaguru karambuye akandi karahinnye. Kuruhande afite icupa ry'amazi.

Umusore uhagaze areba inyuma uri kunywa amazi mu icupa rya'mazi rigendanwa, yambaye agapira k'umweru, afite ukuboko kunini, bisa naho akora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri mu nyubako isa n'aho ari mu myitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko hejuru, yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'ubururu, yatandaraje amaguru, akaguru kamwe kari imbere, akandi kari inyuma.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje ijupa rigendanwa, rifite ibara ry'ubururu, yambaye umupira w'umweru.

Umuntu w'umugabo ufite amatuza manini bisa n'aho yagize ikibazo cyo gukomereka ari imyitozo ngororamubiri, yashyize imiti imufasha kugabanya ububabare.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ari kwiruka cyane, ku ruhande rwe hari umukobwa usutamye ufashe ku ivi bisa naho na we ari mu myitozo ngororamubiri, bari kuyikorera mu nyubako nini yabugenewe.

Umugabo uri kunywa amazi meza, asa neza, ayanywera mu icupa ngendanwa, bisa naho yari ari mu myitozo ngororamubiri, kandi amazi ni meza ku mubiri ukora imyitozo ngororamubiri, kuko amufasha gusubiza ubuzima ku murongo.

Umugabo bisa naho yavunitse akaboko ari kwikanda akoresheje agatambaro k'ubururu, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umweru, ari gukoresha amaboko bigaragara ko agira ngo azane amaboko manini.

Umugabo wambaye indangururamajwi mu matwi, ari kunywa amazi, yambaye isaha y'umukara, yambaye umupira w'umweru, bisa n'aho ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo ibinini bigabanya ububabare, udutambaro bazirikisha umuntu ukomeretse, uturindantoki ndetse n'utundi tuntu twose twifashishwa mu gihe yategereje ubuvuzi bwimbitse.

Umuntu uryamye ku gitanda yubitse inda, hari undi uhagaze hejuru ye ari kumukanda mu maguru, bisa naho yagize ikibazo cy'imvune, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa n'umuhungu, bari mu myitozo ngororamubiri, umukobwa yicaye ku ntebe yo ku muhanda, umukobwa we arahagaze, bafite ibikapu by'umukara binini, bari kugendana.

Umuntu iyo asoje imyitozo ngororamubiri, akenera imboga n'imbuto, kugira ngo umubiri we urusheho gukora neza, mu byo akenera harimo amaronji, amatunda, ibinyomoro n'imboga zifasha umubiri gukora neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku mukeka, arambije akaguru kamwe, akandi agahinnye, yambaye isengeri itukura, ipantaro y'umukara, inkweto z'iroza ndetse n'izifite umupira wo hasi w'umweru, bisa nkaho yishimiye imyitozo arimo.

Umukobwa uri kunywa amazi mu icupa rigendanwa ry'umweru rifite umuvuniko w'ubururu, afite umupira w'umweru ku rutugu.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri, bahagaze ku mirongo, abenshi biganjemo ni abakobwa, abagabo ni bacye, bahagaze mu kibuga kinini, bigaragara ko bafite umwarimu uri kuberekera ibyo bakora imbere yabo.

Umukobwa wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, yambaye ibirenge, inyuma ye hari intebe nini zambaye umwenda w'umweru.

Muganga uri kumwe n'umurwayi wagize ikibazo cyo mu ivi, ari ku mukanda mu ivi, bisa naho ari umuganga ushinzwe iby'imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi akoresheje icupa rigendanwa, yambaye indangururamajwi ziri mu ijosi, afite telefone ku kuboko, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'agatambaro k'umweru ku kuboko.

Umuganga uri kwita ku murwayi wakomeretse cyangwa wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yamuziritse igitambaro cy'umweru ku kaguru, yicaye ku kabati hejuru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byiza ,bigezweho bisa neza by'umweru ,by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, kuruhande bifite akabati kanini nako gasize amarange y'umweru, kifashishwa mu kwita ku babyeyi, cyangwa abagabo mu gihe bari gusuzuma uko ubuzima bwabo buhagaze

Agakapu cyangwa agasanduku gashyirwamo imiti n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze burimo imikasi, amavuta, ibinya, udutambaro dutosa ndetse n'imiti igabanya uburibwe...

Ibiti bifite amababi ashishe atoshye, byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera ndetse ikaba yakaturwa ikajya guterwa n'ahandi.

Agacupa k'imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa n'umuntu wahuye n'ububabare, ikamufasha kumugabanyiriza uburibwe.

Uducupa turimo ibinini byakozwe hifashishijwe imiti ikomoka ku bimera cyangwa imiti gakondo, igabanya ububabare igihe umuntu ahuye no gukomereka cyangwa akaba yavunika.

Umuganga gakondo ari kuvanga imiti itandukanye ikomoka ku bimera kugira ngo ibashe kubyara umuti uvura ufite imbaraga.

Igiti kinini gifite amashami manini, gihagaze mu byansi byinshi. Inyuma yacyo hari ibindi biti bitoya, iki ni cyo kibisumba.

Umuntu uri gufata ku ngemwe y'igiti kivamo umuduti ukomoka ku bimera, kiracyari gito kirashishe kiri gukura ku buryo kizabyara amababi menshi akifashishwa mu gutunganya imiti gakondo.

Agacupa k'umuti ukomoka ku bimera, kariho igishushanyo cyigikakabamba, bigaragara ko igikakarubamba ari icyo gihe cyakoze uyu muti, ku ruhande hari utundi dushashi cyangwa udukarito turimo indi miti itandukanye.

Amababi ndetse n'imbuto byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, iri kumwe n'agacupa kajyamo imiti iba yakuwe mu bimera.

Amababi ari ku biti afite n'uturabo ku ruhande, byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, binyuze mu kuyisekura ikaba yavamo imiti ivura.

Igiti kinini cyakuze kikazana amababi akagandara, yifashishwa mu gukuraho imbuto, umurama kugira ngo habashe gutunganywa imiti ikomoka ku bimera. Umurama wo uragenda ukajya kwinazwa ukazavamo ibindi biti binini bitanga imiti.

Umuvuzi gakondo afite imiti myinshi itandukanye iri mu ducupa dutandukanye, hari iyi iri muducupa dufite imifuniko y'umweru ariko two ari uducupa ari umukara ndetse hakaba n'indi iri mu ducupa tumeze nk'utw'amavuta yo kwisiga.

Umuti uri mu gacupa k'umweru, wakozwe mu bimera, ni mwiza ku muryango kuko uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro n'izindi ndwara nyinshi.

Umuntu uri guteranya imiti, ingemwe, byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo ikomoka ku bimera, afite amababi menshi ndetse n'imirama myinshi yo gutera kugira ngo yagure imiti.

Agacupa kabikwamo imiti iba yatunganjwe hifashishijwe ibimera, ndetse iyo miti igakorwa hifashishijwe amababi y'ibiti imbuto zabyo, ndetse n'imboga kugira ngo ibashe kuba yujuje ubuziranenge.

Ibimera biri mu bihoho cyangwa mu mavaze, yifashishwa mu gutera imiti ahantu hatagendwa cyangwa hatari ubutaka, imwe muri iyo miti harimo igikakarubamba ndetse n'indi miti itandukanye.

Abagabo bambaye impuzankano isa bari kumwe n'abandi babiri, bambaye imyambaro yabo isanzwe bari kwiga ku bijyanye n'imiti ikomoka ku bimera, iva ku gikakarubamba.

Imiti ikomoka ku bimera itunganywa hifashishije udusekuru two kuyinoza neza, hakabamo imbuto ndetse n'ingemwe bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo miti ibe imeze neza.

Umucuruzi ucuruza imiti ikomoka ku bimera, afite abaguzi baje kumugurira imiti benshi ndetse afite imiti myinshi mu iduka rye.

Ibyatsi byiza bishishe byifashishwa mu gutunganya umuti ukomoka ku bimera ndetse ibi biti byifashishwa no mu gutunganya ingemwe kugira ngo zibashe kwaturwa zijye guterwa n'ahandi kugira ngo zigwire zibe nyinshi.

Ibimera bifite amababi meza ndetse n'indabo bishimishije byifashishwa mu gutanga imiti ikomoka ku bimera, iravura ndetse cyane.

Iduka rinini ricuruza imiti gakondo, iri mu kabati igerekeranye, harimo imiti myinshi itandukanye, ndetse hari n'ameza ariho bimwe mu byifashishwa mu kuyitunganya.

Ingemwe z'imiti ikomoka ku bimera ziri mu bihoho, ni nyinshi zifite abantu bazitaho bisa naho bakoze amatsinda yo kuyagura.

Amababi y'ibiti byakuze cyane, yifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera kugira ngo batange ubuvuzi bw'ibanze, bidasabye ko umuntu ajya gukoresha imiti yakorewe mu nganda.

Ibiti bikuze bifite amababi ashishe asa neza, byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera aho umuvuzi gakondo ayifata akayisekura akayitunganya paka itanze imiti ikomoka ku bimera.

ingemwe y'ibiti n'imbuto byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo itangwa n'abavuzi baba bakoze bayivanye mu bimera.

Uducupa tw'umweru turimo imiti yifashishwa n'abantu bahahuye n'ububabare mu kubugabanya, cyane cyane nk'umuntu yari ari mu myitozo ngororamubiri akavunika, iyi miti imugabanyiriza ububabare n'uburibwe aba ari guhura na bwo.

Ibinini biri ku gatambaro k'icyatsi kibisi, byatunganijwe hifashishijwe ibimera kugira ngo habashe kuvurwa abarwayi bidasabye ko bafata imiti yakorewe mu nganda.

Umukeka uriho ibintu byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera harimo ibyungo, udusekuru twifashishwa mu kuyinoza neza, hakaba tungurusumu, indimu ndetse n'amababi, yifashishwa mu kubivangavanga n'izindi ndabyo n'imbuto byifashishwa muri ubu buryo.

Ingemwe zaturwa zikajya guterwa mu murima kugira ngo zibyare imiti myinshi yifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera.

Isabune ikoranye umuti, itunganyijwe hifashishijwe imbuto za avoka ndetse n'igikakarubamba, iravura.

Igihingwa kinajwe, kigakura gishishe, gifasha abavuzi gakondo mu gusarura amababi yacyo ndetse n'imbuto zacyo, bakajya kugitunganyamo imiti ikomoka ku bimera.

Ahantu hanini hahinze ibyatsi cyangwa hasarurwa ibyatsi byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo iva ku bimera.

Imbuto zirimo amaronji, indimu ndetse n'amaronji yazo, zifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, ndetse kandi iyo miti ituma umubiri ukora neza, n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Icupa ririmo ibinini bikorwa hifashishijwe ibimera n'imbuto, harimo amaronji, ubuki ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, iri mu gacupa k'umweru, gafite icyapa kinini kiriho uko bayikoresha.

Inyubako nini icuruza imiti ikomoka ku bimera iri mu macupa atandukanye, apanze mu kabati karekare, ifite ahicara muganga wita ku barwayi bamugana, uhagaze yambaye itaburiya y'umweru.

Imiti gakondo ifunze mu ducupa dutandukanye, iri mu tubati tureture ndetse iyi miti ifasha ubuzima bw'umuntu gukora neza.

Umuravumba utunganyije, usekuye uri mu icupa ryabugenewe, uba watunganyijwe n'umuganga gakondo, kugira ngo arwanye indwara zibasira ubuzima bw'umuntu, bidasabye ko arinda kujya kwa muganga.